Amashuri abanza agomba kuba yubatse neza cyane, afite abarimu bahagije kugirango abanyeshuri bige amasomo yose nta kibazo bafite, batagize ikibazo cyo kureba ahantu bari kwigira niba hasa neza, bagahora bakurikiye umwarimu.

Umugabo iyo yubatse inzu neza agashiramo amakaro, agashiramo n'igikoni cyiza, abantu benshi baramukunda kubera ukuntu aba yarakoze inzu ye neza, na we iyo ayirimo bimuha ishema ryo kuba ayifite.

Imashini zidoda ziba ari nziza cyane, zigira igitwe kigira urushinge, zikagira naho gukoresha bari kunyonga, abatayeri barazikunda kubera ubwiza zigira, zibafasha no kubona amafaranga

Abantu benshi iyo ishuri ribananiye, biga umwuga wo kudoda, bakadoda imyenda barangiza bakadoda ni ibitenge, bavamo abatayeri beza iyo bitwararitse, ntibajya mu bindi bintu bitabafiteye agaciro.

Ifunguro riteguwe n'abantu babyigiye riba riryoshye, rigatanga intungamubiri zihagije, kubera riba riteguranywe isuku nyinshi ihagije, ababirya bakumva bamerewe neza cyane.

Umunyeshuri w'umukobwa agomba gutinyuka agafata mikorofone akavugira mu ruhame. Bikamufasha mu gutsinda amasomo ye neza. Akavuga adategwa amagambo meza cyane.

Abanyeshuri iyo bari kwiga gukora amazi baba bambaye, ibisarubeti by'ubururu n'ingofero z'umuhondo kugirango ngo bayakore neza, akaba ari mu matiyo ntakibazo afite.

Gukoresha umurasire biba byiza cyane, kubera ko umurasire ntabwo ukenera amashanyarazi, ahubwo ukurura izuba, ntabwo umuntu yirirwa agura umuriro, umurasire ucana amatara yose yo mu nzu umuntu akabona nijoro.

Abanyeshuri bari kwiga kudoda imyenda, bambaye amashati meza cyane y'umweru. Bari kudodera ku mashini nziza cyane, bizabafasha kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo.

Kwiga gukoresha ikoranabuhanga bidufasha mu iterambere, tukamenya ubwenge karemano, tugakora ibintu byinshi bitandukanye ,tukiga gukora amashanyarazi no gukora ibikoresho biri elegitoronike.

Abanyeshuri biga ayisumbuye bagomba kuba bazi kompiyuta, kugira ngo nibagera mu kazi bazayikoreshe neza nta kibazo na kimwe bahuriyemo na cyo mu kazi, bitewe na kompiyuta.

Umunyeshuri ari kwiga imashini, n'umwarimu we ari kuyimwigisha. Bambaye ubupfukamunwa, kugira ngo imyuka yabo n'amatembabuzi yo mu kanwa bitanduza imashini.

Umunyeshuri uri gukoresha mudasobwa bimufasha kwiteza imbere ,akiyungura ubumenyi agahora yishimye nta kibazo afite. Kuka aba yarateye imbere cyane mu bwonko.

Abanyeshuri iyo bari kwiga shimi, babaha mayikororosikopi bakareberamo ibintu, bakareba ibitoya n' birebire, biga neza cyane iyo bari kwigira mu ishuri ryiza.